Icyumba kigari kirimo intebe nyinshi hicayemo abagabo n'abagore, imbere ku meza hateretse udutabo bisa nkaho bari mu nama igikuta kiri mu mabara y'umweru n'umukara.

Icyumba kinini kigari gitatse neza cyicayemo abantu, imbere hari abagabo bane bicaye mu ntebe zirimo ibara ry'umweru bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza, cyicayemo abagore n'abagabo. Imbere ku meza hateretse uducupa turimo icyo kunywa ndetse na za mikoro inyuma hari igikuta kiriho ibyapa bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, inyuma ku gikuta hamanitse ho ibyapa hicaye mo abagore n'abagabo, imbere ku kameza hateretse ho uducupa turimo icyo kunywa ndetse na mudasobwa bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba gitatse neza kirimo abagore n'abagabo, imbere hari icyapa ndetse hahagaze n'umugore witeze igitambaro ufite mikoro mu ntoki, imbere ku tumeza hateretse uducupa turimo icyo kunywa bisa nk'abari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza gifite inkuta z'ibara ry'umuhondo inyuma hamanitse icyapa hicayemo abagore n'abagabo imbere ku meza hateretse n'uducupa tw'icyo kunywa, ibirahure ndetse n'udutabo bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza hicayemo abantu bameze nk'aho bari mu nama, ku meza hateretseho impapuro ndetse n'ibyo kunywa; ku meza y'imbere hariho umubare gatanu hakaba hanicayeho abagabo babiri ndetse n'abagore batatu.

Abagabo n'abagore bicaye munsi y'ihema irimo umugabo wambaye imyenda ya gisirikare n'abandi bambaye imipira y'ubururu, bisa nkaho bari mu nama imbere hari akameza gateretseho igitwara impapuro.

Icyumba kigali gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, harimo icyapa ndetse n'abagabo batatu bicaye. Ku meza hateretse imashini na telefone ndetse n'icupa ry'icyo kunywa ndetse n'umugabo wambaye amarinete uhagaze bisa nkaho bari mu nama.

Ahantu hanini hasakajwe amabati hari n'inkingi nyinshi munsi hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse mikoro ndetse n'agatabo ibisa n'aho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza, gifite amatara afite urumuri ruhagije hicayemo abagore n'abagabo. Imbere ku meza hatetse uducupa tw'amazi indabo ndetse n'amadarapo abiri ku mpande hagaze umugabo ufite kamera bisa nk'abari mu ntama.

Icyumba kigari gitatse neza cyicayemo abagore n'abagabo basa nk'aho bari mu nama cyangwa amahugurwa, imbere ku meza hateretse ibyo kunywa ndetse hakaba hari udutabo ndetse n'imashini.

Icyumba kigari cyicayemo abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'umwe wambaye ikote ry'ubururu imbere ku meza hateretse uducupa turimo cyo kunywa, inyuma hari ibyapa byiganjemmo ibara ry'ubururu bisa nkaho bari mu nama.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara wambaye ishati y'ubururu, imbere ku meza hateretse mikoro, mudasobwa ndetse n'agacupa karimo icyo kunywa, inyuma hari igikuta kiri mu ibara ry'ubururu bisa nkaho ari mu nama.

Icyumba kigari cyicayemo abagore n'abagabo basa nk'aho bari mu nama, abicaye imbere bafite impapuro n'amakaramu bisa nk'aho bari kwandika, umwe wicaye hirya uri kureba muri telefone.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu hanini bisa nk'aho ari muri sitade, harimo uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bisa nk'aho ari mu nama.

Icyumba kigari gisa neza cyicayemo abagore n'abagabo, imbere ku tumeza hariho uducupa turimo icyo kunywa ndetse na telefoni, inyuma hahagaze abandi bantu, inyuma yabo hari ibyapa bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru imbere hicaye umugore n'umugabo, imbere ku meza hateretse uducupa tw'amazi telefone ndetse n'ibitabo bisa nk'abari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza cyicayemo abagabo bambaye amakote, imbere ku meza hateretse amacupa y'icyo kunywa ikirahuri, telefone ndetse n'agapapuro na bike bisa nkaho bari mu nama.

Iyi nzu nini ngari ifite amatara afite urumuri ruhagije, yicayemo abagore n'abagabo, imbere tumeza hateretseho amacupa arimo icyo kunywa, ndetse hirya hari n'akandi kameza gateretseho igikapu, hasi hasashe itapi y'ibara ry'ubururu bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba kigari, gitatse neza, gifite inkuta z'ibara ry'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bambaye imipira isa, y'ubururu, imbere ku meza hateretse uducupa turimo icyo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama.

Abaturage barimo abagore n'abagabo, bicaye mu byatsi ndetse n'umugore umwe ufashe mikoro, wambaye ijire, hirya hari icyapa ndetse hari n'ikigega, ku mpande hafi y'inzu bisa nkaho bari mu nama.

Abantu bicaye hanze y'inzu, bicaye ku ntebe nto, harimo abagore n'abagabo, imbere ku kameza hateretseho indabo, ku mpande hari udutebe tubiri tuticayeho abantu, bisa nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abagore n'abagabo, imbere hahagaze abashinzwe umutekano, ku mpande harimo ihema ryicayemo abantu benshi bisa nk'aho ari mu nama cyangwa baje kwiyamamaza.

Abagore n'abagabo bicaye munsi y'ihema bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari akamezaza gatetseho telefone, urufunguzo ndetse n'agatabo bisa nk'aho bari mu nama yabateranyirije hamwe.

Icyumba kigari gisa neza kirimo indabo z'ubwoko butandukanye, hicayemo abagore n'abagabo, imbere hari abagabo bane bambaye amakoti ndetse n'umugore umwe, inyuma yabo hari icyapa bisa nk'aho bari mu nama.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Icyumba kigari gitatse neza gifite amatara afite urumuri ruhagije hicayemo abagore n'abagabo bambaye imipira y'umweru, bicaye ku meza ateretseho uducupa turimo icyo kunywa ndetse n'impapuro, imbere hahagaze umugore wambaye umupira w'ubururu ndetse hari n'ibyapa bisa nk'abari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza cyicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretseho uducupa turimo icyo kunywa ndetse na za mikoro, inyuma hari urupapuro ruri ku gikuta bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza gifite ibikuta by'umweru, hicayemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'icyo kunywa, imashini ndetse n'igikapu.

Iyi ni inyubako ya etaje irimo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari ahacururizwa imyenda yo kwambara ndetse n'umuryango urimo ibijyanye no kuvunja no ku kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga ukorwamo n'uwitwa Frank.

Icyumba kigari cyicayemo abagore n'abagabo imbere ku meza hateretseho udusahane, ibirahure, ndetse n'udutabo ndetse n' amashine bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo intebe nyishi, hicayemo abagore n'abagabo, higanjemo abagabo bambaye amakote agiye atandukanye bisa n'aho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza gifite amatara afite urumuri ruhagije mu muryango hahagaze umuntu, hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse amacupa y'icyo kunywa ndetse na za mudasobwa bisa nkabari mu nama.

Icyumba kigari gifite inkuta z'umweru hicayemo abagore n'abagabo, bicaye mu buryo basa nkaho bari mu nama, ku meza hateretse ibikombe ndetse n'amacupa, harimo icyo kunywa ndetse hari n'imashini, udutabo ndetse na telefone imbere yabo.

Abagabo n'abagore bahagaze bambaye amakarita bahagaze imbere y'inyubako ifite inkingi z'ibara ry'umweru bisa nkaho bavuye mu nama .

Icyumba kigari kinini gitatse neza kicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse amacu abiri y'icyo kunywa ndetse n'ikirahure n'ikayi, bisa nk'aho bari mu nama inyuma hari icyapa.

Icyumba kigali gitatse neza kirimo indabo z'ubwoko butandukanye harimo amatara y'umuriro uhagije yicayemo abagore n'abagabo, imbere hari icyapa ndetse n'umugore uhagaze bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza, gifite urumuri ruhagije, kirimo indabo, cyicamo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse icupa ryo kunywa ndetse n'igikombe bisa nk'aho bari mu nama, ahagaze umugore ufite mikoro mo hagati.

Icyumba kigari gifite amadirishya meza n'ibikuta biri mu ibara ry'umweru, harimo intebe nziza hicayemo abagabo n'abagore bisa nk'aho bari mu nama, imbere ku meza hateretse amacupa y'ibyo kunywa ndetse na za mudasobwa.

Abaturage bicaye mu byatsi harimo abagore n'abagabo, hagati ha hagazemo umugore hirya hari igiti kirekire ndetse n'inzu ebyiri zisa nkaho bari mu nama.

Icyumba cy'inama harimo abantu babiri bicaye ku ntebe zitukura ndetse n'umugore uri kubaha ikiganiro, ufite mikoro mu ntoki, inyuma hari ibyapa.

Icyumba kigarii gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse uducupa turimo icyo kunywa ndetse n'udutabo na telefone bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza, kirimo urumuri ruhagije, kirimo intebe nyinshi, imbere hicaye abagore, n'abagabo, hasi hateretse uducupa turimo icyo kunywa inyuma hari icyapa bisa nkaho bari mu nama.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye wambaye amarinete wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ku meza hateretse mikoro inyuma hari igikuta gifite ibara ry'ubururu bisa nk'aho ari mu nama.

Icyumba kigari kirimo intebe nyinshi, hicayemo abagore n'abagabo bafite mudasobwa mu ntoki, bisa nkaho bari mu nama, inyuma hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru.

Icyumba i Kigali gisa neza gifite ibikuta by'umweru cyicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse mudasobwa, telefone, uducupa turimo icyo kunywa n'umugabo ufite mikoro bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kinini kigari gitatse neza ku nkuta hateyeho ibyapa hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretseho icupa ririmo cyo kunywa, imbere hahagaze umugabo wambaye ikoti ufite mikoro bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba kinini, kigari, gitatse neza, cyicayemo abantu benshi, abagore n'abagabo, hicayemo umwe wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, imbere ku meza hateretse amakayi ndetse n'uducupa turimo icyo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba gisa neza gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, hicayemo abagore n'abagabo imbere ku k'ameza hateretseho uducupa tw'icyo kunywa, ibirahuri, amatasi ndetse n'udutabo bisa nk'aho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza, cyicimo abagore n'abagabo, imbere ku meza hari ibinyobwa ndetse n'uducupa turimo icyo kunywa na za mudasobwa, inyuma hamanitse amadarapo abiri bisa nk'aho bari mu nama.

Abantu bicaye muri sitade imbere hicaye abagore babiri ndetse n'abagabo babiri hahagaze abagabo babiri bafite mikoro mu ntoki ndetse n'abandi bantu babateze amatwi, inyuma hari icyapa kigaragaza ibyo barimo basa nkaho bari mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, harimo abagore n'abagabo bicaye nk'aho bari mu nama, imbere ku meza hateretseho amacupa y'icyo kunywa ndetse n'udutabo n'imashini nko hagati harimo umuntu ufite kamera yo gufotora.

Icyumba kigari gitatse neza gifite inkuta ziri mu ibara ry'umweru hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretse uducura tw'icyo kunywa, mudasobwa ndetse n'amakayi na telefone bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba gitatse neza gifite inkuta z'ibara ry'umweru hicayemo abagabo bambaye imipira isa ndetse n'umwe uhagaze ufite mikoro, ku meza hateretse uducupa tw'icyo kunywa ndetse n'umugabo umwe uhagaze wambaye ufite kamera mu ntoki.

Icyumba kigari giteraniyemo abagore n'abagabo bicaye mu buryo bisa nk'aho bari mu nama. Imbere hateretse uducupa tw'icyo kunywa ndetse n'impapuro, n'amakaramu, n'imashini ku ntebe y'imbere, hari n'ibikuta biri mw'ibara ry'umweru.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo abagore n'abagabo, bicaye imbere ku meza hateretse imashini n'undi mugabo uhagaze, bambaye udupfukamunwa

Abantu bicaye hanze ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere ku kameza hateretse amatasi abiri ndetse na mudasobwa n'agacupa karimo icyo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama cyangwa bateraniye hamwe bahujwe n'ikintu kimwe.

Parikingi nini ihagazemo imodoka imwe ku mpande hari umugabo hirya hari uruzitiro ndetse hateye n'ipoto ry'amashanyarazi ku mpande ye hari urugo .

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka imwe hasi. Hasi hashushanyije imirongo abanyamaguru bambukiramo y'umweru ndetse n'umukara, ku mpande hari aka k'abanyamaguru haparitse imodoka y'umukara ndetse n'inzu y'ubucuruzi.

Abagore bahagaze mu isoko ryaremye ry'imbuto, imboga, inyanya harimo abagurisha, abagura bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Ibiti biteye ku nkengero y'umuhanda hashizemo ipoto ry'amashanyarazi hirya hari igikuta cy'inyubako hariho n'imodoka ziri guca mu muhanda hagati.

Umuntu uri kunyura mu muhanda w'igitaka hirya hari umuntu wicaye munsi y'ipoto ritwara amashanyarazi hirya ye hari hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Sitasiyo ya za moto zikoreshwa n'amashanyarazi, hariho moto ebyiri bari gusharija, ndetse hariho n'abakozi batatu b'ikigo gishinzwe kuzisharirira, inyuma hari ubwoko bundi bw'imodoka ziparitse, hari n'abagabo batatu hirya ya moto ya kabiri.

Urugo runini rwiza rufite amabati y'umutuku ruteyemo igiti, rukagira igipangu kiri mu ibara ry'umukara, ndetse n'itara ryo ku marembo.

Imigozi itwara amashanyarazi y'umukara iziritse ku gisenge k'inzu gifite amabara y'umweru n'ubururu, ndetse hari n'igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ikurikiwe na moto, ifite agatwara imizigo kari mu ibara ry'icyatsi, hirya hateye ibiti ndetse n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda, hirya hari ipoto ritwara amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'umuntu uri ku igare ndetse n'imodoka, imbere hari ubusitani bugari burimo ibiti bibiri ndetse buteyemo n'amatara yo ku muhanda abiri ku mpande hari inyubako zisa n'inzu z'ubucuruzi.

Ipoto rirerire ritwara amashanyarazi ririho imigozi y'umukara itwara amashanyarazi mu ngo z'abantu hirya hari urugo rutuyemo abantu.

Inzu mberabyombi, iteraniyemo abayobozi b'igihugu cyacu, imbere yabo bakaba bafashe amakaramu ndetse n'amakaye basa naho bari kwandika ibyo bari kubwirwa. Kumeza hakaba harambitse amacupa y'imitobe ndetse n'amazi, buri muyobozi wese imbere ye hakaba hari mikoro fone, ndetse hakaba hari n'igikoresho nsakazamashusho.

Abantu bicaye hanze y'inzu n'abandi bahagaze imbere y'idirishya bisa nkaho baje kwa muganga, hirya hari akagare k'abatabasha kugenda.

Icyapa cyerekana aho bajya gufata imiti hirya hari inyubako munsi hahagaze umugore ufite impapuro mu ntoki ndetse n'umugabo uri gutambuka imbere yaho hari imodoka eshatu zihaparitse hari n'umuhanda usohoka.

Abantu benshi bicaye hanze y'inzu irimo abagore n'abagabo higanjemo abagore bahagaze imbere ku madirishya ku bikuta hariho ibyapa bisa nkaho ari kwa muganga.

Ubusitani bugari busa neza, burimo imikindo ibiri ndetse hasashemo n'amabuye azengurutse imikindo, hateyemo indobo z'ubwoko butandukanye, ku mpande haparitse imodoka eshatu, ndetse hari n'amazu y'amagorofa menshi.

Abagore n'abagabo bicaye hanze ku ntebe ndetse n'abandi bahagaze mu madirishya y'inzu bisa nkaho baje kwa muganga kwivuza cyangwa baherekeje abarwayi.

Umwanya munini uhagazemo umuntu hirya hari moto ebyiri ndetse hanaparitse imodoka ebyiri, hirya no hino hari ubusitani harimo n'ikigega, hirya hari inyubako zitandukanye.

Icyumba kigari kirimo amatara afite urumuri ruhagiye, hahagazemo abagore n'abagabo bambaye amakanzu y'umukara, imbere hari umugore wambaye ikanzu y'ibara ry'umutuku, bafashe ku madarapo y'igihugu bisa nkaho bari kurahira.

Umugore ufite umusatsi uringaniye wambaye amarinete ndetse n'amaherena wambaye ikote ryiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara .

Icyumba kigari gitatse neza, kirimo inkuta zifite ibara ry'umweru, hicayemo abagabo n'abagore, bamwe bambaye amakanzu y'umukara arimo imirongo y'umweru ndetse n'abandi bambaye amakanzu y'umutuku n'imirongo y'umweru bisa nkaho ari abacamanza.

Umugore wisukishije wambaye ikanzu irimo ibara ry'umutuku harimo n'imirongo yumukara ndetse n'umweru bisa nk'aho ari umucamanza.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye wambaye ikanzu itukura harimo akarongo k'umweru, bisa nk'aho ari umucamanza.

Umugore wisukishije wambaye amarinete ufite ingofero irimo amabara y'umuhondo n'umukara wambaye ikanzu yiganjemo ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubudomo bw'umukara, inyuma ye hari idarapo ry'igihugu bisa nkaho ari umucamanza.

Abagore n'abagabo bahagaze harimo abagore babiri bambaye rinete z'umukara ndetse n'umugabo, higanjemo abambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'abandi bambaye amakanzu y'umukara inyuma yabo.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara irimo umurongo w'umuhondo wambaye n'ikanzu y'ibara ry'umutuku harimo umurongo w'umweru ndetse n'imikara ibiri bisa nk'aho ari umucamanza.

Abagabo bogoshe bahagaze kumirongo bambaye imyenda isa y'ibara rya oranje, inyuma hari ucunga umutekano wambaye imyenda ya kake n'undi wambaye imyenda y'iroza, bisa nkaho ari muri gereza.

Icyumba kigari gitatse neza cyicayemo abagore n'abagabo, harimo abambaye amakanzu y'umutuku harimo uturongo tw'umweru ndetse n'abandi bambaye amakanzu y'umukara, hahagaze umugabo ufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda bisa nk'aho ari kurahira.

Umugabo wambaye rinete ndetse n'imyambaro isa nk'iya gisirikare, wicaye mu ntebe ziganjemo umweru, imbere hateretse icyo kunywa gisa nk'inzoga, hirya hari akabati gakoze mu giti, ndetse n'inyuma ye hari igikuta cy'ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite umusatsi muke wambaye ikanzu yiganjemo ibara ry'umutuku harimo umurongo w'umweru, wambaye karuvati y'umutuku, ndetse nishati y'amabara y'umweru n'umukara bisa nkaho ari umucamanza.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umuhondo, ufite ubwanwa wambaye ikanzu yiganjemo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'utudomo tw'umukara...

Icyumba kigali gisa neza kimanitsemo televiziyo yicayemo abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse nabandi bahagaze bambaye amakanzu yumukara ndetse n'imirongo y'umweru bafashe ku madarapo bisa nkaho bariri kurahira.

Umugabo ufite umusatsi muke wambaye ikanzu yiganjemo ibara ry'umutuku harimo imirongo y'umukara ndetse n'umwe w'umweru wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku bisa nk'aho ari umucamanza.

Umugore ufite umusatsi mwinshi ufunze bambaye amarinete wambaye ikanzu ikoze mu gitenge, uhagaze imbere ku kameza gakoze mu giti, ufite mikoro ye imbere inyuma ye hari undi mugore wicaye bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretseho amacupa arimo icyo kunywa, imbere hahagaze umugabo wambaye ikanzu bisa nkaho bari mu nama.

Icyumba kigari kirimo imitako myiza, hicayemo umugore wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umukara n'umuhondo, uri gusuhuzanya n'umugabo wambaye ikote, bisa nk'aho bari mu nama.

Umugabo ufite umusatsi muke wambaye ikanzu y'umutuku harimo umurongo w'umweru n'akaruvate y'ubururu bisa nkaho ari umucamanza.

Abagore benshi bicaye mu cyumba kinini, higanjemo abambaye imyenda y'iroza na oranje. Harimo abiteze igitambaro mu mutwe bisa nk' aho bari mu nama.

Abagabo babiri biyogoshesheje bari gusohoka mu muryango ufite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya manini bambaye imyenda y'iroza n'umugabo ubari kubereka inzira wambaye ikote.

Icyumba kigari cyicayemo abantu bambaye udupfukamunwa ku ntebe y'imbere hicaye umugore n'umugabo, umugabo wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara n'umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku mu muryango hari umugabo ufite intwaro.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda uhagaze mu muhanda wa kaburimbo. Imbere ye hari kunyura moto iriho umugabo ufite kasike ebyiri. Inyuma ye hari bisi itwara abantu muri rusange, y'ibara ry'ubururu.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe ibayeho kizwi nka kizimyamoto kimanitse ku gikuta gifite ibara ry'icyatsi hariho agapapuro k'umweru gasobanura uko ikoreshwa ndetse hariho n'akagozi kayifashe .

Abagabo babiri bambaye imyenda y'abashinzwe kuzimya umuriro bateruye ikigozi kiri gucamo amazi, inyuma hari igikamyo cy'abashinzwe gutwara abaza kuzimya inkongi y'umuriro, ndetse n'abandi bagabo bahagaze bisa nk'aho baje kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uhagazemo imodoka ya polisi ifunguye umuryango, ihagazeho umupolisi wambayega agapfuka munwa k'umweru ku mpande hari abanyamaguru mu kayira k'abanyamaguru.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kimanitse ku gikuta, hirya hari kizimyamoto.

Abagabo babiri bahagaze hanze y'inzu bambaye imyenda bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bafite umugozi uri kuvamo amazi ndetse n'umugabo umwe uwuteruye bisa nkaho baje kuzimya inkongi y'umuriro.

Ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'ibara ry'umukara, uhagararanye n'umugabo wambaye ingofero, inyuma yabo hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa n'umupira w'ibara ry'iroza, inyuma hari inzu iriho ibyapa bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi.

Umugabo w'umuyisilamu wambaye ingofero, uri gutambuka muri parikingi ya sitasiyo ya polisi. Haparitse imodoka enye, ebyiri za polisi ndetse n'izabantu bwite ebyiri.

Umuhanda wa kaburimbo mugari urimo imodoka ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ndetse inyuma yaho hahagaze umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro n'umugozi urambitse hasi n'umugabo wunamye uri kuwufata kumpande hahagaze abantu benshi.

Umuhanda wa kaburimbo mugari w'ibice bibiri uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri nto ku ruhande rumwe ndetse n'urundi ruhande hari kunyurwamo n'imodoka y'abashinzwe umutekano ndetse na moto itwara abagenzi hirya hari akayira k'abanyamaguru.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ufite indangamuntu uhagaze imbere y'imodoka y'umukara.

Umuntu uri ku igare uri kugendera kuruhande rw'umuhanda hirya ye hari abashinzwe umutekano bane bafite intwaro hirya yabo hari abantu bane bicaye munsi y'imitaka ndetse umwe ari kuri moto hirya yabo hari ibikamyo bibiri biparitse.

Icyumba kigari cyiza gitatse neza kirimo intebe nyinshi hicayemo abagabo n'abagore bari kureba ubahagaze imbere wambaye ikote ry'umukara bisa nkaho bari mu nama.

Ni iduka rigurisha ibikoresho by'abadamu n'amasakoshi inkweto ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko bipanze ku buryo bigiye bikurikirana kandi busumbana.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye, ufite ubwanwa wambaye ikote rijya gusa n'umukara, na karuvati y'umukara n'ishati y'umweru ufashe ku i darapo ry'igihugu uzamuye ikiganza bisa nk'aho arikurahira.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari kwinjira mu nama arigutambuka yambaye ishati y'amaboko maremare n' ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ari kureba hasi.

Umugabo n'umugore bicaye mu ntebe z'ibara ry'umukara, bisa nkaho bari mu nama inyuma hari igikuta kirimo ibara ry'ubururu ryiganje, umugabo akaba yambaye amarinete umugore yambaye isaha, ndetse hari n'uducupa tubiriw'icyo kunywa ku kameza.

Abagore bambaye imikenyero harimo n'abagabo bambaye amakoti bahagaze, inyuma yabo hateye ibiti birebire by'ubwoko butandukanye ndetse hari n'inzu nini y'amagorofa menshi, bisa nk'aho bavuye mu nama.

Icyumba kigali gitatse neza gihagazemo umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umukara ndetse na karuvati y'ubururu uzamuye ikiganza imbere hari mikoro bisa nkaho ari kurahira.

Umugabo muremure, wambaye ingofero y'umukara n'amarinete n'ishati y'umweru iriho ibirango, ufite mikoro mu ntoki, inyuma ye hari ibyapa, bisa nk'aho baje kwamamaza.

Abagore n'abagabo bateraniye hamwe bambaye imyenda isa bafite amadarapo asa, imbere yaho hahagaze umuntu ufite ijiri ry'umutuku bisa nkaho baje kwamamaza umuntu bashyigikiye.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo amatara afite urumuri ruhagije, hicayemo abagore n'abagabo, imbere ku meza hateretseho uducupa turimo icyo kunywa, imbere ku gikuta hariho televiziyo ebyiri bisa nk'abari mu nama.

Icyumba kigari gitatse neza kirimo abagabo bane bambaye amakoti, batatu bambaye amarinete inyuma hari abagore babiri bambaye imikenyero ndetse n'umugabo umwe wicaye mu ntebe, abagabo bane bafashe ku madarapo bisa nkaho bari kurahira.

Icyumba kinini ,kigari(uburebure ) gisa neza ,cyicayemo abagore n'abagabo, imbere kumeza hateretse mudasobwa ,igikombe ndetse n'uducupa turimo icyo kunywa bisa nk'aho bari mu nama.

Umugore wambaye umukenyero wambaye na amarinete ufite umusatsi uringaniye uhagaze mu muryango w'inzu hanze hahagaze abantu bari ku umurongo harimo abagore n'abagabo ndetse hirya haparitse imodoka bisa nkaho baje gutora.

Icyumba kigari gitatse neza, cyicayemo umugore wambaye ingofero, ndetse n'umugabo uri ku yandi meza hirya wambaye ingofero y'umupira w'umweru. Ku meza hateretse impapuro hagati hagazemo umugabo uri gushyira mu kadobo, bisa nk'aho ari gutora.

Icyumba kigari gitatse neza gifite amatara afite urumuri ruhagije hicayemo abagore n'abagabo higanjemo abagabo bambaye amakote bisa nkaho bari mu nama.

Abantu benshi bahagaze munsi y'ihema, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi, bagaragiye uwambaye umupira w'umweru bisa nk'aho bari kwiyamamaza.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye imyenda isa, bateruye amadarapo yiganjemo ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu, bisa nk'aho baje kwamamaza umuntu bashyigikiye.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero n'umupira w;umukara n'ipantaro n'inkweto z'umukara, akaba ari mucyumba kinini gifite itara ry'umweru ndetse gifite n'inkuta zisa umweru, akaba ari impande y'imodoka.

Umukozi ushinzwe isuku wambaye ijire ry'icyatsi ndetse n'ishati y'ubururu n'ingofero imbere ye hatari ingorofani irimo ishashi ndetse n'igitiyo bisa nkaho ari mu mirimo ye ya buri munsi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyuramo igikamyo gitwara imizigo ndetse na moto itwara abagenzi ku mpande hari akayira kabanyamaguru kari kugendamo umunyamaguru umwe, hirya hari rigori, ku rundi ruhande hari uruzitiro, hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ,uri kunyuramo igikamyo gifite ibara ry'umweru, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse na rigori ,ku rundi ruhande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'imodoka ikoreye imizigo ndetse na moto itwara abagenzi, ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru hari kugendamo abanyamaguru batatu, ku ruhande rumwe hari rigori ndetse ku rundi ruhande hari uruzitiro mo imbere hateyemo ibiti bibiri.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibikamyo bibiri haparitse ndetse n'igare ku mpande hari akayira k'abantamaguru kari kugendamo umunyamaguru umwe hari n'umuzigo mu mpande.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo gikamyo cyikoreye imizigo ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru ariy'uruzitiro hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, urimo umuntu uri ku igare ku mpande hari akayi k'abanyamaguru, ndetse n'itara ryo ku muhanda, hirya hateye ibiti hari n'umuhanda wo hejuru.

Abantu barenga mirongo itanu, bicaye bameze nk'abari mu mahugurwa, buri wese afite ikaramu n'ikayi, bari mu mahugurwa nkuko turi kubibona kandi ni ingeri zose: abagore, abakobwa, abasaza abakecuru ndetse n'abagabo bakuze, n'abasore bose bitabiriye amahugurwa.

Umuhanda urimo imodoka icanye amatara ihagazeho umugabo wambaye ijire y'icyatsi, abanyamaguru bari mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange y'ibara ry'umweru, iri kubisikana na moto ebyiri zitwara abagenzi, hirya hari uruzitiro mo imbere hateyemo ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, ku rundi ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu, hirya hari akayira k'abanyamaguru, hari n'uruzitiro, inyuma hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka ebyiri zitwara abantu nburyo bwa rusange, ku mpande hahagaze abantu benshi ndetse n'umwe wicaye hejuru y'imizigo itatu, bisa nk'aho ari muri gare.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto itwara imizigo iri kubisikana n'imodoka irimo umugabo, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kari kunyuraho abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, ku mpande hahagaze abantu ndetse na moto.

umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri kubisikana n'indi modoka nto, hirya hari akayira k'abanyamaguru, ku rundi ruhande hari uruzitiro, inyuma hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, uri kunyurwamo na moto ebyiri zitwara abantu, ziherekejwe n'imodoka imwe y'ibara ry'umutuku, kumpande hateye imikindo yo ku muhanda, hirya hari undi muhanda urimo moto imwe.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka y'igikamyo nini ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru harimo umunyamaguru umwe uri kugenda ku mpande hateye indabyo ndetse ku urundi ruhande hateye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara abantu mu buryo bwihariye, iri kumwe na moto itwaye umugenzi, iri kubisikana n'igare ritwaye umugenzi, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'uruzitiro rw'imbere hateyemo ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo w'icyerekezo kimwe urimo moto enye zitwaye abantu ndetse n'imodoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe ku mpande hateye ibiti byo mu bwoko bw'imikindo .

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igikamyo gitwara n'imizigo kiri kubisikana n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru hari kugendamo umugabo ufite igikapu umugongo, ku rundi ruhande hateye ibiti hari n'uruzitiro.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyuramo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kari kugenderamo igare ndetse n'umugabo urifashe, hejuru hari umuhanda bacaho.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, imbere hari moto ebyiri zitwaye abantu, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse hari na rigori y'amazi, ku rundi ruhande hari uruzitiro imbere hari hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igikamyo kivanga sima ndetse gikurikiwe n'imodoka na moto ebyiri zitwara abantu, biri kubisikana n'indi modoka imwe mu muhanda hashushanyijemo inzira z'abanyamaguru byerekanwa n'ibishushanyo by'umweru n'umukara.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zihekeranye, ku mpande hahagaze abantu bari kunyuraho ndetse ku mpande hari izindi modoka, hari n'amatara afite urumuri ruhagije bisa nkaho ari muri gare.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, uri kunyurwamo n'imodoka imwe itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse ifite ibara ry'umukara, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'uruzitiro, imbere hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda muto wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka imwe ndetse na moto eshatu, ku mpande ari kugendera abanyamaguru batatu, ku mpande nano hateye ibiti bitatu by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda mugari wa kaburimbo w'ibice bibiri ,uri kunyurwamo n'imodoka ndetse na moto itwara abagenzi ,mo hagati hateyemo ubusitani burimo imikindo ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye ,ku mpande hunamye umuntu ari guturuka imodoka imwe ndetse na moto.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku mpande hari akazu kagenewe guhagararamo abatwarwa mu modoka, ku mpande hari igikuta gishushanyijeho ibintu by'umuhondo bisa nkaho ari muri gare.

Mu muhanda wa kaburimbo uparitsemo igikamyo gitwara imizigo kumpande haparitse moto ndetse ahagaze n'umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo usa nkuwangiritse urimo igikamyo gitwara imizigo hirya hateye ubwoko bw'ibiti butandukanye ndetse hirya hari n'uruzitiro.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya hanyuzeho igare riho umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'abanyamaguru babiri bari kwambukiranya umuhanda, hirya hari sitasiyo ya lisansi.

Umuhanda w'amabuye uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri zitwara abagenzi mu uburyo bwa rusange hirya hari akazu k'abagenzi bisa nkaho ari muri gare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'ibikamyo bibiri ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abantu babiri ndetse n'umwe uhagaze hirya yabo hari icyapa cyaho bisi zigomba guhagarara.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibice bibiri, uri kunyurwamo na bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru haparitse mo imodoka ebyiri ndetse hahagaze n'abantu benshi, hari n'inyubako y'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'igikamyo cyikoreye amatafari hejuru hasasheho shitingi, ku mpande y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, harimo umunyamaguru umwe ufite agatebo k'ibara ry'ubururu, hirya ye hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda.

Umuntu utwaye umutwaro uremereye urimo igikapu ndetse n'umufuka munini ku igare, imbere ye hari igikamyo gicanye amatara kiri kubisikana n'indi modoka mu amasaha ya nijoro mu muhanda wa kaburimbo.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda wa kaburimbo, biri kugenda mu gice kimwe, bihuje icyerekezo, imbere ari igikamyo, inyuma hari moto itwara imizigo, ari yo izwi nka rifani.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo na bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iri kumwe na moto itwaye umugenzi, ku mpande hari kugenda abanyamaguru batatu, bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, ku rundi ruhande hari uruzitiro mo imbere hateyemo ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'igikamyo cy'ibara ry'umutuku ndetse n'imodoka nto, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, hari n'uruzitiro, mo imbere hateyemo ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'igikamyo gitwaye imizigo ku ruhande rumwe hari uruzitiro rw'imbere hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye ku rundi ruhande hari akayira k'abanyamaguru gafatanye na rigori.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka nto y'umweru iri kubisikana n'igikamyo cy'ibara ry'ubururu gitwaye amakesi arimo ibyo kunywa, hirya hari ibiti ndetse n'uruzitiro.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibisate bibiri uri kugenzwamo n'imodoka imwe ntoya n'indi ya bisi itwara abantu, ku ruhande hari inzu z'ubucuruzi haparitsemo imodoka eshatu z'ubwoko butandukanye, hirya hateye igiti.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'igikamyo cy'ibara ry'umweru, kiri kubisikana n'imodoka nto y'ibara ry'umweru. Hirya hari abagabo babiri bari gutambuka mu gahanda k'abanyamaguru. Inyuma hari igare ririho umuntu wambaye umupira wa oranje. Hirya hateye ibiti hari n'uruzitiro.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara abanyeshuri ku ishuri y'umweru hirya hari igare riri kunyuraho, hirya hari uruzitiro ndetse hateye n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'amagare abiri yikoreye amakaziye, y'icyo kunywa ndetse na moto iri kuzamuka, ku mpande hari kugenderaho abanyamaguru babiri ndetse haparitse na moto ebyiri.

Ibikamyo bibiri biparitse mu muhanda wa kaburimbo, bifite shitingi hejuru y'aho batwarira imizigo, hirya hahagaze umugabo uri kureba inyuma wambaye ingofero ndetse n'inkweto zifunguye.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Umuhahanda wa kaburimbo uri kugenderwamo n'imodoka itwara imizigo ndetse imbere y'aho hari n'indi modoka ipakiye imifuka ku mpande hari akayira k'abanyamaguru gaparitsemo igare ari kugenderamo n'abandi bantu babiri bikoreye imifuka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto itwara abagenzi, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, hateye ubusitani burimo ibiti bitandukanye ndetse hari n'igikuta cy'inzu cy'ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'amagare abiri aherekejwe n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ku mpande hari utuyira tubiri tw'abanyamaguru ku mpande hari hateye ibiti ndetse hari n'uruzitiro.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Ikibuga kigari cyubatswe mu itaka gishushanyijemo imirongo bakoresha bakina ku mpande hubatse akazu kicayemo abantu batatu, inyuma hari uruzitiro ndetse hateye n'ibiti.

Ikibuga cyubatse gitaka bakiniramo umukino w'amaboko ku mpande hari uruzitiro ndetse hateye mu ubusitani burimo igiti kirekire, inyuma hari uruzitiro rurerure.

Umuhanda usashemo tapi y'ibara ryicyatsi ku mande hateye igiti ndetse n'ubusitani burebure buhagazemo abantu babiri hirya hubatse inyubako bisa nkaho ari ikibuga.

Ikibuga kigari gifitemo izamu rimwe ndetse n'andi mazamu mato, hahagazemo abantu bane; hirya hateye ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, basa nkaho bari gukina.

Ikibuga kiri mu itaka bakiniramo tennis gifite aho abafana bicara hasakaye hakozwe muri sima ndetse inyuma hateye ibiti by'ubwoko butandukanye .

Ikibuga cy'umupira kigali kirimo gukinirwamo n'abantu batandukanye, hirya hari amazamu, inyuma yaho hateye ibiti binini hari n'umugabo wunamye hirya ye hari ibikapu bibiri ndetse n'amakoroneri n'agacupa.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto itwara abagenzi ku mpande hateye ibiti ndetse harimo itara ryo ku muhanda ndetse n'icyapa ku mpande hari umuhanda ushamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora gifite ubuso bw'umweru umuzenguruko w'umutuku, ishusho y'uruziga, harimo akamenyetso kakwereka ko ugomba gukata ibumoso.

Icyapa kiburira gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru n'ishusho y'umukara ishushanyijemo umugabo bisa n'aho kubaka imenyesha ahari kubera imirimo y'ubwubatsi cyangwa ibindi bijya gusa nayo

Icyapa kiyobora gifite ubuso bw'umweru umuzenguruko w'umutuku kerekana ko umuhanda ushamikiyeho indi mihanda ibiri, hirya yaho hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'igiti.

Icyapa kiyobora abatwara ibinyabiziga mu muhanda, kiri mu ishusho rya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku.

Ibyapa bitatu bishamikiye ku ifoto imwe ,bibiri bifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru n'ikindi gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umukara ,bishushanyijeho umuntu mukuru ufashe umuntu muto na metero ijana n'agasozi ,hirya haparitse igare mu kayira k'abanyamaguru.

Icyapa kiburira kiri mu ishusho rya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku harimo ishusho y'umugabo umeze nk'aho ari mu bikorwa byo kubaka, kikaba kimenyesha ahari kubera imirimo y'ubwubatsi ndetse n'ibindi bijya gusa nabyo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto ebyiri. Ku mpande hahagaze abanyamaguru benshi ndetse ku rundi ruhande hateye ubwatsi, harimo icyapa kiranga ibyerekezo.

Icyapa kiyobora cyo mu muhanda, gifite ishusho y'ruziga ubuso bw'ubururu umuzenguruko w'umweru ishushanyijemo ingombajwi ya pa ndetse na bisi itwara abantu muri rusange, igaragaza aho bisi itwara abantu muri rusange ihagarara.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka na moto bitwara abantu, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'akazu k'abagenzi b'imodoka, hateyemo icyapa ndetse hari n'ubusitani burimo indabo.

Aho icyapa kiburira giteye mu byatsi gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko w'umutuku, gishushanyijeho umugabo bisa nk'aho ari kubaka cyangwa gucukura, inyuma hateye ubusitani bufite indabo z'ubwoko butandukanye. Kimenyesha ahantu hari kubera imirimo yo kubaka cyangwa ibijya gusa nabyo.

Icyapa kigari gifite ubuso bw'icyatsi n'umuzenguruko w'umweru, gishushanyijeho ibyerekezo abantu bakoresha bagenda, inyuma hari umuhanda uri kunyurwamo na moto n'imodoka, hejuru hari n'undi muhanda bacaho.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa cy'ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umutuku giteye mu busitani burimo indabo ndetse hateyemo n'igiti ku mpande hari ifopo ry'amashanyarazi, ku mpande hari urugo, imbere yaho haparitse imodoka, kumpande hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda w'amabuye uri kunyurwamo na moto ebyiri zitwara abagenzi kumpande hahagaze abagore babiri ndetse n'umugabo umwe uri kugenda hirya hari amabase atondetse bisa nk'aho ariho bayacururiza.

Inzu y'amagorofa menshi nziza imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, hahagaze n'abantu babiri, hirya hari icyapa cyanditseho igihozo hoteri.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igikamyo gitwara imizigo hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande rumwe hateye ibiti by'ubwoko butandukanye ku rundi ruhande hubatse inzu y'amagorofa menshi ndetse n'ibiti mu busitani.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka imwe, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kamwe, hirya hari ubusitani buteyeho indabo ndetse hari n'igipangu, mo imbere hateyemo imikindo myinshi ndetse n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, uri kunyurwamo na moto itwara abagenzi, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru, kandi hubatse n'inzu y'amagorofa menshi, bisa nk'aho ari iy'ubucuruzi.

Inzu nini ngari ifite ibikuta by'umweru n'igipangu gifite ibikuta by'umweru, hanze y'ubusitani hateyemo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, imbere hari icyapa cyo ku muhanda.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, hirya hari parikingi irimo imodoka zitandukanye, hubatse n'inzu y'amagorofa menshi, bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi, hanze yaho hahagaze abantu benshi, ndetse hari na moto.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, ku mpande hubatse inzu ndende y'amagorofa menshi, ifite uruzitiro mo imbere haparitse mo imodoka ndetse hateye n'igiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ifite ibara ry'icyatsi, ku mpande hahagaze abagore babiri ndetse n'umugabo. Ku mpande hari kunyura izindi modoka ebyiri ndetse na moto. Ukomeje imbere hubatse inyubako ndende ifite amagorofa menshi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu babiri bari kugenda n'amaguru ku nkengero z'umuhanda hateyeho ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse hari n'inzu zo kubamo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umugabo ufite ishashi ku mugongo ndetse na moto ebyiri zitwara abantu ndetse n'imodoka imwe y'umweru kumpande haparitse imodoka enye hirya hubatse inzu y'amagorofa menshi bisa nk'aho ari iy'ubucuruzi.

Inzu nini ifite amagorofa arenga imwe, iteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye, ifite igipangu kirimo utudirishya tubiri tw'ibara ry'umukara, igikuta gifite ibara ry'umukara, hanze hateye indabo hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka y’umukara ntoya iri kwambukiranya imihanda ibiri, inyuze ku iteme rigizwe na beto. Hirya hahagaze umugabo n'indi modoka imbere y'aho ari kunyura.

Umwanya munini usashemo amabuye uparitsemo imodoka nyinshi harimo n'izindi ebyiri ziri kwinjira inyuma hari uruzitiro bisa nkaho ari muri parikingi.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bahagaze mu muhanda imbere y'inyubako iriho icyapa cy'ahantu bakata imfunguzo hirya haparitse moto nyinshi zirimo umumotari umwe, n'abandi bagabo bahagaze hirya.

Inzu ngari ifite igipangu cy'ibara ry'umukara n'igikuta cy'ibara ry'umweru, hanze hashinze ipoto itwara amashanyarazi, hateye n'indabo z'ubwoko butandukanye ndetse hari n'akayira k'igitaka.

Inama igizwe n'abagore babiri n'abagabo batanu imbere yabo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga biririmo mudasobwa ebyiri ndetse hari n'abafite impapuro n'amakayi bagiye kwandikamo ibyo bateze amatwi imbere yabo bicaye ku ntebe z'umukara bose.

N'icyapa cyo ku muhanda hejuru hari ikiriho umurongo hejuru hari ikintu kibyimbye hameze nk'umusozi, munsi yacyo har' ikiriho abana, n'umukobwa, n'umuhungu ndetse na metero ijana hari igare rihaparitse imbere yaho hari amatara y'amamodoka, biragaragara yuko ari nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibice bibiri mu hagati harimo ubusitani buteyemo amatara yo ku muhanda kumpande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye kurundi ruhande ahagaze moto ebyiri ndetse n'umugabo umwe.

Umuhanda wa Kaburimbo, mugari urimo moto ebyiri ziri kubisikanya. Hirya hari icyapa kigaragaza aho umuhanda urangirira. Hirya hateye ibiti binini by'ubwoko butandukanye, hirya hari inzu.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka na moto hirya hahagaze abantu, hejuru hari undi muhanda, ku mpande hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'igiti, hari n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'igikamyo gitwara imizigo, ku mpande hari akayira gateganyirijwemo guhagararamo ibinyabiziga, hari n'akayira k'abanyamaguru, harimo abana bane, hateyeho icyapa cyerekana ko bitemewe guhagarara.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, urimo aho abanyamaguru bambukira, herekanwa n'imirongo y'umweru n'umukara, hari kunyuramo moto zitwara abagenzi ndetse n'imodoka, ku mpande hari ibyapa bimurika, byerekana igihe imodoka zigendera, ku mpande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, ndetse n'imikindo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo w'ibice bibiri uri kunyurwamo n'imodoka ndetse na moto itwara abantu, ku mpande hari utuyira tw'abanyamaguru, hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiye undi uri kunyurwamo na moto eshatu, hirya haparitse imodoka kuru rundi ruhande hari kugendaho abantu babiri ku mpande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri ziri kubisikana zitwara abantu, ku mpande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka itwara imizigo ku gice kimwe, ikindi gice kiri kunyuramo imodoka ndetse na moto itwara abagenzi mo hagati hateye mo ubusitani burimo imikindo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, urimo imodoka imwe, ku mpande hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye ndetse harimo n'icyapa cy'abanyura bazengurutse, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kariho umuntu uhagaze ku igare ndetse n'irindi gare riri hirya, imbere hari umuhanda unyura hejuru.

Umuhanda mugari urimo aho abanyamaguru bambukira hagaragazwa n'imirongo ishushanyije iri mu ibara ry'umweru n'umukara, hirya hari abantu babiri bari mu gahanda k'abanyamaguru ndetse na moto iri mu kindi gice cy'umuhanda hirya.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo igare rimwe n'abanyamaguru babiri bari kugendera ku mpande ndetse n'umugabo umwe uhagaze hirya harimo ubusitani buteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kunyurwamo na moto enye zitwara abagenzi. Mo hagati hateyemo ubusitani burimo amatara yo ku muhanda abiri, ku mpande hari kugenda abanyamaguru babiri, urundi ruhande hateye ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, uri kunyurwamo na moto ebyiri zitwara abagenzi ndetse n'imodoka imwe y'ikamyo iri imbere, ku mpande hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda harimo n'ubusitani, ku rundi ruhande hateye ibiti birebire.

Uwo muhanda mugari uri kunyurwamo n'umunyamaguru umwe ndetse n'undi uri ku igare banyuze ahagenewe kunyura abanyamaguru hagaragazwa n'imirongo y'umweru n'umukara bisa nk'aho bari kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto nyinshi ndetse n'amagare, harimo n'imodoka ebyiri, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru gahagazeho umugabo umwe, ndetse no hirya hari ipoto ritwara amashanyarazi hirya hateye ubusitani burimo icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ndetse na moto zacanye amatara, ku mpande hateye ubusitani burimo ibiti ndetse n'indobo bitandukanye, bisa nk'aho ari mu gihe cy'ijoro.

Mu muhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umunyamaguru umwe uri kwambukira ahagenewe abanyamaguru hagaragazwa n'ibishanyo by'imirongo y'umweru n'umukara, hirya hari guturuka imodoka ndetse na moto.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho indi ibiri, uri kunyuramo amagare atwara abagenzi abiri ndetse na za moto. Imbere hateye ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo, hari n'icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyehondi uri kunyuramo iyi kamyo na moto ebyiri ndetse n'imodoka itwaye imizigo ku mpande hateye ibiti birebire by'ubwoko butandukanye ku rundi ruhande harike k'abanyamaguru harimo umugabo umwe uri kugendamo.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibikamyo bibiri na moto ebyiri ndetse n'igare. Ku mpande hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abagore babiri, hejuru hari umuhanda ushamikiyeho unyura hejuru uri kugendaho moto hirya hateye ibiti.

Mu muhanda mugari wa kaburimbo mo hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti ku mpande, hagaze imodoka, ku mpande na none hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abanyamaguru benshi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe, hirya hahagaze abantu babiri kurundi ruhande harimo inzu yo kubamo mu gipangu harimo imodoka imwe hirya y'umuhanda hari izindi modoka ebyiri zihaparitse.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyuramo umuntu uri ku igare, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse no hejuru hari umuhanda ku mpande hateye ibiti.

Umuhanda mugari w’ibisate bibiri urimo aho abanyamaguru bambukira, hagaragazwa n’ibara ry’umweru rivanze n’umukara. Hiri hari ibiti biteye ndetse hari n’akayira k’abanyamaguru ku mpande.

Umuhanda w'ibisate bibiri bitandukanye, harimo moto eshatu ziri mu cyerekezo kimwe. Ndetse mu kindi gice harimo bisi na moto bari mu cyerekezo kimwe. Mu mpande hateye ibiti, urundi ruhande hari sitasiyo ndetse n'inyubako y'ubuvuzi.

Umuhanda w'igitaka mugari uri kunyurwamo n'abanyamaguru babiri, ku mpande hateye ubusitani burimo uru indabo ndetse hari n'uruzitiro hari n'ingo nyinshi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ukemo ibice bibiri kumpande ahahagaze umugabo wambaye ipantaro ya kake n'umupira w'umutuku inyuma ye hari ubusitani buteyemo igiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo na moto eshanu zitwara abagenzi ndetse n'imodoka ebyiri. Ku mpande hateye ibiti, hari n'amatara yo ku muhanda. Hirya hubatse inzu y'amagorofa menshi bisa nkaho ari iy'ubucuruzi.

Umuhanda mugari wa kaburimbo w'ibice bibiri, uri kunyurwamo n'imodoka eshatu ndetse na moto, mo hagati hahagazemo umuntu wambaye ishati y'amabara abiri ndetse n'ipantaro, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru ndetse hateye indabo ndetse n'igiti kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho imihanda myinshi irimo urujya n'uruza rwa moto n'imodoka, hirya hari inzira y'abanyamaguru mu muhanda ushushanyijemo aho abanyamaguru bambukira, hateye n'ibyapa biyobora imodoka bizwi nka feruje.